Inzu iriho ibyapa by'umweru biranga ko ari ho bacururiza ibikoresho ndetse n'imbuto bifashisha mu buhinzi, aho abahinzi baza kugurira imbuto mu gihe cyo kujya gutera ibyo bazarya cyangwa bazagurisha ku masoko.

Ikirundo cy'ifumbire kirunze mu murima hagati y'ibiti bibiri, ifumbire y'ibyatsi izifashishwa guhinga muri kino gishanga kigaragaramo inyanya ndetse n'ibitunguru n'umurima uhinze utunganyijwe utegereje ko bazateramo izindi mbuto, kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi ndetse bazabashe no guhinga beze.

Ubucuruzi bw'imiti y'amatungo n'imbuto zo gutera, abahinzi aho baza kugurira ndetse n'amarozwari yo gukoresha mu gihe bari kuvomerera iyo myaka yabo, firigo ihari ikoreshwa mu kubika imiti yangirika harimo nk'inkingo zo gutera inka, ndetse n'imiti ijyanye n'amazi batera inka zirwaye uburondwe.

Abahinzi b'igihingwa cy'ikawa bahuriye mu murima hamwe n'abajyanama mu by'ubuhinzi kugira ngo babigishe uburyo basasira izi kawa zabo bakanashyiraho ifumbire yabugenewe n'uko bayishyiraho neza kugira ngo bazasarure umusaruro mwiza kandi banirinde ko ibi biti byakuma.

Itsinda ry'abagore batatu ndetse n'umugabo umwe bambaye bote z'umukara n'imyezankano y'ubururu bari mu kimboteri kirimo imyanda myinshi ivangavanze n'amasashe, bafite ibigori kuruhande ndetse n'ibyatsi biteye hirya. Ifumbire bari gukuramo bazifashisha batera ibigori ibindi bigashyirwa ku ruhande kugira ngo bizatungane.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifashe utubuye tw'umukara uri kwerekana ibyo ari byo ndetse n'agaciro kabyo, harimo utubuye tugiye turekana, harimo uturemereye n'udutoya, hirya yabo hari amabara y'umweru asa nk'imifuka ishashe hasi n'iyindi irimo utwo tubuye.

Inzu icururizwamo imiti ya kinyarwanda, hagaragaramo amacupa ateretse mu tubati uturutse hasi kugera hejuru, amacupa y'umutuku n'umweru, ay'umukara, hariho n'ibirango n'umugabo uyicuruza wambaye impuzankano y'umweru.

Ibirango byerekana ko hano bacuruza imiti, yica udukoko mu myaka, ikanarinda imyaka kwangirika, igafasha abahinzi kubona imisaruro myiza nk'uko baba barabigennye, ndetse bigatanga n'umusaruro uhagije, yaba ku bahinzi ndetse n'abacuruzi.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi bw'amatungo, ifite utubati tugeretse inshuro eshatu, dusize amarangi y'umweru, buri ruhande harimo igikombe kigiye kirimo umuti ndetse n'imyaka, harimo imbuto zo gutera ndetse n'ingemwe zo kugemura ku bahinzi, ibipapuro bigaragaza ko abantu bishyuye n'aho bandika imiti biri ku meza ku kabati.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti batera imyaka ndetse n'imwe yica udukoko, aho baza kugurira imbuto mu gihe abahinzi bashaka gutera n'imiti ikaba ikoreshwa mu gihe bari gushaka kwica udukoko tw'imyaka cyangwa se bashaka kugira ngo imyaka yabo izere neza itangijwe n'udusimba.

Umugore ufite utubuye tw'umukara mu kiganza cyiwe adukuye ku tundi. Arimo yerekana abashaka kutugura kubera ko dukoreshwa neza mu gihe cyo gukora amasuku ndetse no gufasha gutaka imbuga yawe neza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, harimo abagabo n'abagore bafite imitaka, barimo bashakisha ubwatsi bwo guhereza amatungo, imodoka zabo bazisize hejuru harimo iy'umutuku n'iy'umweru, zimwe zafashwe n'ibiti, abagore bamwe bunamye hejuru y'ibiti birinda izuba.

Inzu y'ubucuruzi isize amarangi y'umweru, uriho akabati k'umweru gafite ibikarito hejuru ndetse na n'ibirahure mu mpande, bigaragaza imiti irimo, ndetse n'imiti y'ibihingwa hamwe n'imbuto bakoresha batera.

Itsinda ry'abahinzi b'abagore n'abagabo, bahuye n'umujyanama w'ubuhinzi kugira ngo abagire inama ku buryo bashyira ifumbire ku myaka yabo, harimo ibigori. Bakoresheje amabase abiri y'ubururu ndetse n'imwe y'umukara, mu rwego rwo kugira ngo buri wese afatanye n'undi barangize gushyira ifumbire ku bigori hose uko hagenwe.

Abahinzi barimo abagabo batatu n'umugore umwe, buri wese afite isuka ya nyiramenyo bari guhinga ahantu mu muringoti, bakuramo ibyatsi byitindikiye hamwe bikikijwe n'ibiti by'intusi. Hakurya hari ishyamba batenguye, ryamazeho byose, bari gukoramo inzira y'amazi.

Iguriro rusange rigurirwamo imbuto, ifumbire yifashishwa mu buhinzi, harimo ibikombe bitandukanye nk'iby'amashu, ibitunguru, epinari ndetse n'imboga dodo, hariho n'ibiciro aho igiciro cya karoti kigaragaza ko ari bitatu magana atanu, aho igiciro cy'ibitunguru akaba ari bine magana atanu.

Ibirayi byasaruwe birunze hamwe bitegereje ko bibikwa, babizeho ivumbi kugira ngo bizabikwe igihe kinini bitarapfa, bibafashe kuba bitakangirika, ndetse bizabemo imbuto nziza izifashishwa n'abahinzi, bazashaka gutera mu gihe gitaha.

Igishushanyo kimeze nk'icyapa gifashe ku nzu isa nk'ishaje, iriho ibyuma n'irangi ry'umutuku, gisize amarangi y'umweru ku bikuta, hasi hari umukobwa wambaye inkweto zifunguye, uri kuranga ko hano bacuruza imiti, iyica udukoko n'irinda indwara ku bihingwa biba byahinzwe.

Inyubako y'ubucuruzi ikorerwamo ibyo gucuruza ibihingwa ndetse n'imbuto zikoreshwa hamwe n'imiti itera ku buhingwa, igizwe n'akabati karekare kageretse ku nshuro nk'eshatu, harimo rozwari z'icyatsi kibisi ziri hejuru ku gisenge, ibikombe birimo imirama ndetse n'ibiciro bya buri kimwe cyose.

Igikarito kirimo amavuta akoreshwa mu kurinda uruhu rw'umuntu kugira ngo rutangirika, giteretse ku meza y'ikinombe hasi harimo igikarito gifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'andi y'ikijuju yijimye.

Akanyubako gato cyane kagizwe n'akabati k'ikinombe kageretse uruhande rumwe, kariho aho kubika impapuro n'ibikoresho baba bakoresheje, harimo imiti mikeya igaragaza ko ari iy'amatungo n'ibikoresho bakoresha mu gihe borora inkoko bifasha kuzana ubushyuhe mu nzu bororeyemo.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bwo gucuruza ibicuruzwa byo kwifashisha mu bworozi ndetse no mu buhinzi, harimo ipamba yo kuvomerera ndetse n'amatara yo gukoresha mu gihe boroye inkoko, harimo imiti yo kwica udukoko ndetse n'imiti y'imbuto, harimo n'ingemwe zo gutera cyangwa gufumbira zizifashishwa batera.

Ihahiro ry'imiti yifashishwa mu buhinzi mu kwica udukoko twibasira ibihingwa no gukuza ibihingwa neza bigatanga umusaruro uhagije, bigatuma abahinzi bahinga ntacyo bikanga, harimo inyubako y'umweru ifite utubati tugeretse muri gatatu, ahari ibikarito n'utujerekani tw'umweru ndetse n'impapuro zerekana amazina y'iyo miti.

Inzu y'ubucuruzi y'ibyokurya by'amatungo. Ndetse n'imiti n'imbuto ikoreshwa mu gutera. Harimo ibikoresho inkoko zikoresha bazorora. N'imbuto z'ingemwe nk'amatunguru, ibirayi ndetse n'ibijumba, hamwe n'amapavuro.

Harimo ubucuruzi bw'ibiryo by'amatungo, imbuto bikoreshwa mu buhinzi ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi harimo imirama ya karoti, iy'inyanya na pavro n'ibikoresho bakoresha bavomerera mu gihe k'izuba no mu gihe bahereza imiti inyanya. Hakaba mo ibikoresho by'inzu ndetse n'iby'inkoko birindako inkoko zangirika no kuba byazana urumuri mu nzu.

Imiti ikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi, iri kumwe n'ingemwe zikenerwa n'abahinzi ndetse n'ibiryo inkoko zirya mu gihe zoroye, n'ibikoresho zikoresha mu gihe ziri mu nzu, hari ameza ariho ikaramu n'ikayi yo kwandikaho ibicuruzwa, ibyaguzwe ndetse n'ibyaranguye, bifasha umucuruzi neza kutibeshya no kumenya ibyo yajyanye n'ibyasigaye.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo akabati karimo imiti iri mu macupa ndetse n'intebe imwe iteretse ku ruhande n'igikarito cyavuyemo imiti bagiye batereka mu tubati dutandukanye, bakoresha mu gihe bari kuvura abarwayi binjiye ibitaro cyangwa bazamaramo iminsi.

Umuhinzi wambaye agapira k'umukara n'uturindantoki tw'ubururu, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara arimo atera umuti inyanya kugira ngo arinde udukoko tuzangiza ndetse no ku burwayi bwazitera bwatuma atabona umusaruro uhagije, bikamufasha kwirinda zino ndwara zose ndetse no kumenya neza ko umusaruro uvuyemo ari mwiza.

Ibigori bisaruye bakuye ku biti barunze ahantu bitegerejwe guteka cyangwa kotswa ku mbabura, biraterwa n'uko umuntu abikunda, bifite amabara meza cyane bigaragaza ko aho byari biri hari hari ifumbire kandi ko byeze neza, kuko bifite ingano ishimishije.

Ibirayi bihinze mu murima bifite indabyo z'umuhondo bishishe cyane bigaragara imbuto zabyo ubona ko ari nziza ziteye ndetse zegeranye kandi biri no ku muronko nk'uko abahinzi babigirwamo inama n'abashinzwe ubuhinzi mu karere.

Umurima utunganyije neza uriho insina ku ruhande, uruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso, harimo amashu afumbiye neza ndetse na epinari, aya mashu akazagemurwa mu gihe bagiye kuyatera mu murima munini kuko zino ziba zifatwa nk'ingemwe.

Ibigori bishishe bitoshye cyane byahetse, bifite ibiti birebire ndetse n'ibyatsi birimo hagati biteye ku muronko, bigaragaza uburyo amababi yabyo ari icyatsi kibisi ndetse n'uko ifumbire yagize umumaro kuri ibi bigori.

Igiti cy'umwumbati giteye mu murima utarimo ibindi byatsi usa nk'utunganyijwe bagiye guhingamo ibindi bihingwa bitandukanye, aha niho dukura isombe dukoresha nk'imboga ndetse n'imyumbati bakunda gukoresha nk'ibiterambaraga ku banyarwanda benshi barya.

Umurima utunganyije neza, wo guteramo ingerimo z'imbuto ndetse n'imboga. Harimo inyanya, karoti, ndetse n'ibitunguru. bikabafasha kubona umusaruro mwiza cyane, nk'uko abajyanama b'ubuhinzi, baba barabibagiriyemo inama.

Ibirayi bitoshye bifite indabyo z'umweru, byegeranye cyane kandi biteye ku muronko, bihinze kuri hegitari nini y'ubutaka, bifite amababi y'icyatsi kibisi agaragaza uburyo iyo fumbire yakoze neza, ndetse n'uburyo abahinzi bakurikiye inama zo guhinga.

Abakobwa babiri bari mu murima w'inanasi buri wese ufite inanasi, arimo yerekana uburyo imbuto bahinze yari nziza yatanze umusaruro mwiza, inanasi aho zatukuriye mu murima izindi zikaba nini, imwe ikaba iri gupima ibiro bitatu, byerekana ko uyu musaruro wabaye mwiza cyane.

Imbuto za avoka za kizungu, zifite amabara meza ndetse n'uduheri ku ruhu, zijyanwa hanze mu mahanga ndetse no ku isoko ry'u Rwanda, zikundwa cyane n'abantu bose kubera ukuntu zuzuye intungamubiri, harimo kurinda indwara ndetse no kubaka umubiri.

Akarima k'igikoni karimo inyanya, amashu n'ibitunguru, n'ibisusa biteye mu muronko, buri cyose biteye mu gace kabyo bigiye birimo umuringoti, ufasha kurwanya isuri no gutandukanya bino bihingwa, buri cyose kikaba kiri mu mwanya wacyo.

Umufuka w'ibirayi bya kinigi bitukura cyane kandi bikaryoha, bigizwe n'imifuka itatu y'ibirayi umwe batweretse amabara yabyo, ibirayi bikunda kwera mu mugi w'ikinigi ndetse n'ahandi hose mu gihugu, usanga abantu benshi babikoresha, kubera ko usanga biryoshye ndetse binahumura neza.

Umurima uteyemo inyanya zitarafata neza. Bigaragara ko zagemuwe muri pikinnyeri yazo, aho zabaga zifumbiye mbere zikiringemwe, umurima ugizemo n'ifumbire y'umukara. Ukoze neza zikaba zinateye ku murongonko. Ibi bizatanga umusaruro ku bazihinze, kuko bakurikije amabwiriza.

Igiti cy'ikawa gikuze gifite amashami agera mu munani azenguruka ariho udutumbwe, utubabi dukeya dusa nk'utwumye, biteye hagati y'imyumbati n'imigozi irimo ibyatsi byinshi byakuze byarenze bikarenga n'imigozi. Hakurya yabo hari inzu y'amabati y'umutuku yubakishije icyondo ndetse n'icyandi bya rukarakara.

Umuhinzi ufite ingemwe z'amatunda agiye guhinga, yambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umutuku afite isuka mu ntoki, akikijwe n'inzu iri hakurya yubakishije ibitaka n'amabati y'umweru ndetse n'ibiti bikikije aho yenda guhinga.

Ubuhinzi bw'ibiti by'amaronji buteye ku murongo, harimo n'ibindi by'imyembe, bigiye bidakoreye byashaje, bikenewe gusimburwa kugira ngo batere ibishyashya, bizatanga umusaruro mwiza, uzafasha mu kubona amafaranga, ndetse no kurinda ubutaka kwangirika.

Ibigori bitoshye cyane bihetse, kimwe kigiye gihetse ibigori bigera muri bine cyangwa bitanu, biteye ku muronko nkuko abajyanama b'ubuhinzi babigiramo inama abahinzi mu rwego rwo gutanga umusaruro uhagije, ndetse no gufata neza umusaruro.

Ubuhinzi bwa kijyambere bucoye neza, burimo igihingwa cy'urusenda cyifashishwa nk'imbuto kuri benshi ndetse bakagikoramo umuti, hashinzemo amakamba atuma ibintu bijya ku muronko ndetse n'ibiti urusenda ruzazamukiraho mu gihe rubaye rurerure rugatanga umusaruro uhagije.

Ibiti byinshi by'umuyenzi biteye hejuru ku musozi, ku mpande yawo hari ibyatsi n'ahandi umukingo watengutse by'aho batari bateye bino biti kuko byifashishije mu kurwanya isuri no gufata ifumbire ituruka hejuru mu misozi kugira ngo itamanuka ijya mu kabande.

Imyumbati ifite santimetero eshantu iri kumerara hafi y'ahari hateye ishyamba, ruguru bayiranduye hasigaramo ibiti bigera muri bitanu biteye imbere y'ibigori biri gusarurwa byumagaye byinshi cyane, hari urubingo hafi y'umugezi rufata isuri ndetse rukarinda n'uko igitaka kigwa mu mugezi rugafata n'ifumbire kugira ngo igume mu murima.

Ibishyimbo bishishe cyane bya kijyambere, bihinze ku murongonko, buri byose biri ku materasi yabyo, ndetse birimo ifumbire ihagije, abahinzi babihinze neza bakurikije inama z'abajyanama b'ubuhinzi baba babagiriye, mu kugira ngo babone umusaruro mwiza.

Ibiti by'ikawa biri kurabya bifite uturabyo twinshi tw'umweru, ziteye ku murongo neza, zigiye zifite nka santimetero mirongo itatu, zisasiye n'ibihunda byinshi ndetse n'amajwangara y'insina, ziteye ku murongo neza mu butaka butunganyijwe.

Ikiganza cy'umuntu cyerekana ubwoko bw'amamera uburyo ari bwiza, aho yafashe ku mamera yari yanitse hasi mu rugo agafataho makeya kugira yereke abantu ubwiza bw'aya mamera uburyo yatanga igikoma cyiza, ndetse akavamo ifu yifashishwa mu gukora ikigage kiryoshye.

Imbata ishaje yapfutse ku ijosi habaye ku ibara ry'umutuku, ifite amababa menshi abundikiye umubiri wayo, ihagaze mu byatsi bitoshye ndetse bizengurutse imbuga yose, bigiye harimo utwatsi twinshi tw'amabara atandukanye, icyatsi kibisi ndetse n'utundi tw'umukara turi ku ruhande.

Ikinini kiri mu mabara y'icyatsi kibisi gipanze mu kantu kamwe ari ibinini icumi kivura mburugu n'imitezi, cyandikishijeho uburyo gikoreshwa ndetse n'uburyo gifatwa neza kugira ngo ntikizangirike, gipima amagarama magana abiri na mirongo itanu, kirimo imiti yose ikenerwa n'uburyo n'amategeko yo kugikoresha.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere, bugizwe n'inkokokazi, isake, hari umworozi wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'akazi, afite ibase y'ubururu irimo ibiryo ari kugaburira inkoko mu buryo bwa kijyambere, akaba yambaye n'impeta ya zahabu.

Inyunganamirire bahereza amatungo, harimo inka, inkoko, ndetse ihene n'intama zifite ikibazo cyo kugira ubuzima buke, cyangwa zo kuba zagira ibyo zikenera mu mubiri, zigafasha amatungo gukura vuba ndetse no gukura neza, zitagize ibibazo by'uburwayi, bakazihereza banyujije mu kanwa bashyize muri litiro ijana y'amazi.

Ikarito irimo imiti ifashishwa mu buvuzi ndetse n'amacupa ari hejuru agiye yerekana amazina y'iyo miti hamwe n'ingano imiti irimo uko ingana n'icyo ivura.

Inkwavu zifite amabara y'umweru, umukara n'ikijuju, ziri kurya ibiryo byateretswe ku gisahani cyo kuriraraho cyazo ndetse n'ubwatsi buri hasi izi nkwavu ziza kurararaho, bivuze ko izi nkwavu zitanga umusaruro mwinshi ndetse mwiza ku bw'ibiryo ziba zariye.

Umugore uri ku mazi ufite umucanga mu ntoki, ku ruhande rwe hari ibara ry'umuhondo rigaragaza agatambaro yari yambaye ndetse n'amazi arimo urubobi rwinshi hamwe n'ibiziba bivanze.

Umurima urimo amateke uri kumera utunganyijwe n'umugore wambaye ingofero, ari kugenda atera amateke hirya no hino mu murima ndetse arandura n'ibiti by'imyumbati byumye. Umurima ukikijwe n'ibiti ndetse n'insina, harimo ibiti by'umubirizi biri hepfo y'umurima hadahinze neza n'ikawa ziri ku ruhande.

Umuganda rusange witabiriwe n'abagabo n'abagore buri wese afite igikoresho cye, aho bari gukora inzira y'amazi buri wese azana igiti kugira ngo atereke aho bazajya bambukira, buri wese afite isuka yo gukoresha, abaharura umuhanda n'abubaka ikirara, bamwe bakura igitaka mu nzira kugira ngo umuhanda ugaragare neza.

Abagore babiri n'umugabo umwe wambaye imyenda y'umukara, barimo babagara imyaka kugira ngo bayikize ibigunda, mu rwego rwo kugira ngo imyaka izere neza itarariwe n'ibyatsi, izatange umusaruro mwiza.

Itsinda ry'urubyiruko rw'abasore rwibumbiye hamwe rukora umuganda, rutema insina zidakenewe zitakera, bari gukora uturima tw'igikoni n'abagore bari ku ruhande batongora aho bahinze, babafasha gutunganya no kubegereza udukoresho, bakoremo akarima k'igikoni ko guteramo imboga, zifashishwa mu rugo mu kugaburira abana no kugira imibereho myiza ku babyeyi.

Umugore uri gukura imyumbati mu murima urimo insina, uruhande rwayo hari ibiti byitwa magereveri, ndetse n'imigozi iteye epfo y'aho ari guhinga, hari urubingo rukikije uyu murima, ni urubingo rukoreshwa baruhereza inka.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari gusarura ibishyimbo biri kuri mushengerero, aho buri gishyimbo cyose kiri k'umuti wacyo kugira ngo agikureho asaba kurandura igiti, agakuraho ibishyimbo akabishyira mu mufuka akagenda akabijyana aho babyanika

Babiri bishimye bambaye amakoti y'imikara n'imipira irimo uturongo tw'imituku n'imikara n'ubururu, bahagaze imbere y'imifuka itanu, irimo intoryi kandi yuzuye, inyuma yabo hari inzu ishaje, yubakishije ibyondo, ifite n'urubaho ku idirishya no ku nzugi.

Umuhinzi w'umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umweru, afite isukari gusarura imyumbati aho imyumbati imwe yamaze kujya hasi, ahinga kugira ngo hazajyemo iyindi myaka, ikikijwe n'igihuru kiri hirya y'uruhande ndetse n'ibiti by'indimu biri hakurya yiwe biri gutondagira kumera.

Umuhinzi w'umugabo wambaye agapira k'icyatsi kibisi n'ipantaro y'ubururu, ufite isuka ya nyiramenyo, uri guhinga mu myumbati yuhiriye igicucu, hirya hari ibigori byenda kuma n'urubingo ruteye ku mukikira, ruzafasha kuba rwarinda isuri no kuba imyaka yagenda ikagwa mu kabande.

Itsinda ry'abahinzi rigizwe n'abagore n'abagabo, bari guhinga mu murima w'ibigori babirandura kugira ngo bateremo indi myaka nk'amateke, ibishyimbo, ibijumba ndetse n'imyumbati, harimo ibibiriganya ndetse n'igiti cya soya gikoreshwa kivura ndetse kinagira intungamubiri cyane ku bana bato.

Itsinda ry'rubyiruko rigizwe n'abakobwa batatu ndetse n'umugabo umwe, bambaye amapantaro yimikara ndetse n'udupira tw'icyatsi kibisi n'ak'umweru hamwe n'ak'umutuku bari gukora akarima k'igikoni bifashishije imifuka n'ibitaka bakuye impande n'impande hamwe n'ibiti bashyize hamwe.

Umugore wateze igitambaro kirimo amabara menshi n'imyenda irimo umutuku n'umuhondo, ufite igitebo cy'umuhondo cyuzuyemo imiteja itenze neza, n'agaseke karimo uduteja dukeya, begereye ku mbuga hafi y'imiteja, ihinze kumuronko, ifite ibibabi bishishe, iri gukorerwa n'umugabo wambaye umupira w'ubururu.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umweru, afashe ku giti cya avoka, yerekana ivoka zezeho uburyo ari kijyambere n'uburyo ari nziza, kugira ngo abwira abahinzi n'abandi bose bashidikanya kuzihinga, ko zitanga umusaruro ufatika. Inyuma yaho tuhasanga avoka, ndetse n'insina ziri ku ruhande, n'ibigori bisa nk'ibyumye.

Abahinzi babiri bambaye imyenda y'imituku ndetse bafite n'imisatsi y'umukara, bari guhinga ahahoze ibigori babirandura kugira ngo bahatere indi myaka, irimo ibishyimbo n'ibigori bindi ndetse n'ibirayi bizatanga umusaruro, hepfo y'aho hari ibiti by'avoka n'ibiti bya mageriveri mu gisambu hari ibyatsi bitoshye cyane.

Umugore wambaye igitenge n'umupira, uteze n'igitambaro cy'ubururu, ari mu murima urimo insina n'ibiti bya avoka, hamwe n'iby'imyembe, n'imyumbati iri haruguru y'umuriro, ari gukuramo insina zarwaye, kugira ngo azisimbuze inshyashya ndetse zireke no kwanduza izindi zikiri nzima.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bafite amasuka bari gukora umuganda bubakira umukene kugira ngo ature heza, agire n'igikoni hamwe n'ubwiherero. Ibi bizana ubumwe mu baturage ndetse no ku gihugu bikagira umumaro cyane.

Abagabo bane b'abubatsi bari gupima ikibanza kiri hafi y'umuhanda kugira ngo batangire bacyubakemo, bareba niba byakunda ko buri muryango waba ukora ku muhanda ndetse ko n'imodoka yajya yinjira muri iki kibanza.

Abahinzi bahuriye mu gishanga ahahinze umuceri wabo, bari kumwe n'umujyanama mu by'ubuhinzi abereka uburyo umuceri weze ugomba kuba ungana n'uburyo bagomba kuwusarura bawufata neza kugira ngo ntuzangirike mu gihe bari kuwubika.

Itsinda ry'abahinzi bari kurwanikiro rw'ibigori, aho banika ibigori bavuye gusarura mu mirima itandukanye, mu mashyirahamwe yabo, bakabizana bakabishyira hamwe, mu gihe bategereje ko babigurisha, ku babikeneye bakabikoramo kawunga ndetse n'ifu y'igikoma.

Imigozi ishishe cyane iteye yegeranye ivaho ibijumba duteka bimwe mu bitera imbaraga cyane abantu bakunda, iteye no ku murongonko ibagariye n'ibyatsi byose bizafasha kurinda indwara, ndetse no gutanga umusaruro no kuba ifumbire yakwira mu bijumba nta byatsi biyiriye.

Ububiko bw'imyaka itandukanye aho abahinzi baza bagahinga cyangwa amashyirahamwe akabika imiceri, ibishyimbo, ibigori bagategereza abaguzi ko baza kubigura mbere yuko babipimura, buri wese akajyanaho ibyiwe ugasanga bitanga inyungu ku babicuruza ndetse n'abahinzi bibumbiye hamwe mu mashyirahamwe.

Ihahiro rusange ry'imyaka, hari ibishyimbo n'ibigori bihunguye, birunze hamwe ku bitara, aho abaguzi n'abagurisha bahurira bakagurisha, haraboneka iminzani ikoreshwa mu gupima ndetse yujuje ubuziranenge, kubera ko yizeye kutiba abantu bagura.

Ubuhinzi bw'imyumbati yagwiriye neza irimo abahinzi babiri, abagabo umwe bambaye imyenda y'icyatsi kibisi n'undi w'ubururu, barimo bitegereza uburyo bahinze, haruguru hagaragara ishyamba ndetse n'urutoki rushishe cyane rwashimye ifumbire.

Imifuka myinshi y'ibirayi iri mu mabara y'umweru n'ubururu idoze hejuru n'amakamba, hakurya yaho hari abagabo batatu, bari gufunga ibisigaye ndetse n'ibirayi bya kijyambere, aho ibirayi bihurira bavuye kubisarura bagira ngo babigeze ku masoko.

Urugo rw'imigano n'imiyenzi rwanitseho amasaka avuye mu murima abahinzi bazana aho bakayabika kugira ngo ategerezwe ko abikwa akazakorwamo ibindi bikenerwa mu rugo.

Ikirundo cy'imbuto z'ivoka ziteretse mu gikarito cy'umweru zirunze hasi, aho zivuye gusarurwa zitegereje abaguzi, bazigurishe ndetse n'abaza gufataho izo kurya bakazishyira abana n'abagore babo, kugira ngo bafashe kuba bazirya nk'umuti cyangwa imbuto.

Umugore uteze igitambaro wambaye umupira w'umuhondo urimo uturonko tw'umukara n'umweru, afashe ibigori bine mu ntoki ari mu bwanakiro bw'ibigori, aho abahinzi baza bakanika imbuto zabo cyangwa imisaruro yabo kugira ngo bayirinde kwangirika.

Insina yo mu bwoko bwitwa fiya ishishe cyane, igaragara ko yabonye ifumbire, iteye inyuma y'inzu isakaje amategura inubakishije rukarakara, itezwe n'ibiti kugira ngo itagwa, inyuma y'iyi nsina haragaragara imbaho zizengurukishije urugo kugira ngo babashe kurinda umutekano w'iyi nzu, ndetse n'iki gitoki hatagira ukiba.

Ibiti by'ibinusi byameze hamwe mu ishyamba ry'inturusu, aho bigaragaza amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ibibabi byinshi bishaje. Ibi binusi babikoresha bakora ibiziriko by'ihene ndetse n'abashaka kuboha imisambi yo gukoresha mu rugo, hamwe n'ibindi byose bikenerwa.

Igiti cy'ikinusi giteye mu mbuga y'urugo, gikikijwe n'ibigori n'insina, umwembe muremure cyane uteye haruguru y'insina, imihati n'imiteja biteye hano mu bigori bikingirije insina ziri haruguru ndetse n'igitaka kigaragara muri iyi mbuga, ikikijwe n'ubusitani buto.

Ibiti birebire cyane bihagaze mu rukangaga, no mubushishiro n'umwembe, bikikije ikibuga kinini gifite nka hegitari ebyiri, hakurya y'aho hari insina ziri kwana zikingirijwe n'ibiti bya gereveriya, mu kibuga abanyeshuri bakinira, akaba ariho baruhukira mu gihe cy'izuba iyo baje munsi y'ibiti.

Umurima urimo ibigori n'imyembe iteye ku ruhande biri hejuru y'inzira yakozwe n'umuganda hamwe n'insina zirimo ibyo bigori n'imigenzi itandukanye imirima y'abaturanyi. Imyembe iba myiza ku bantu bayihinga ndetse n'abayigura kubera ko igira intungamubiri.

Umurima urimo igiti kirekire n'amapoto atwara amashanyarazi, insina n'ibigori biwuzengurutse, ndetse n'umwubati umwe uri ku ruhande rw'aho bari guhinga ibijumba. Abahinzi bagaragaza ko bahinze bino bintu byose bakabihuza, kugira ngo bazabonemo umusaruro mwinshi, kandi utandukanye.

Ishyamba rya pinusi ry'ibiti bikuze cyane, harimo ibiti byabazwa n'ibindi byakuramo imbariro ndetse na mushingiriro, biri hagati y'umuhanda w'igitaka hejuru no hepfo, ibibabi byatahukiye umuhanga byinshi cyane byagiye bihunguka, harimo urubingo rudakoreye ndetse n'ibyatsi by'urwiri.

Igiti kinini cy'umufumba gifite amashami agera kuri ane n'ibibabi bibyimbye cyane bimeze nk'iby'ibiti by'isombe, bifite uruhande rumwe ruriho insina, ahandi hari ibyatsi birandaranda, harimo kabambura ndetse n'urume byameze ku ruhande.

Igihuru cy'inzitane kiri munsi y'ibiti by'ishyamba aho ibinyabuzima bigenda bigatura cyane cyane nk'inzoka, akaba aha nta muntu wahagenda mu gihe cyo ku zuba kubera ko haba harimo inyamaswa zigira ubukana bwinshi.

Ishyamba ririmo ibiti birebire byo mu bwoko bw'inturusu bakoresha babaza imbaho cyangwa bashakamo inkwi zo gucana hamwe n'amakara, abandi bakabikoresha bubaka kuko ari ibiti bikomera cyane mu gihe cyo kubaka kandi bidasajisha inzu vuba.

Igiti cy'umunyinya kimera ahantu hari igitaka cyinshi. Giteye mu busitani, gikikijwe n'urutoki impande n'impande. Hamwe ni ibitoki byannye, ibindi bigifite amakoma gusa, bitigeze byana, hari ibisheke ku ruhande by'utubabi dutoya.

Igiti kinini cya magiriveri gifite amashami arumbaraye cyane, arimo ibibabi by'ikinombe ndetse ayandi yumye cyane, arimo ay'icyatsi kibisi agitoshye, ari gukora hasi ku ruhande, bakoresha mu gihe cyo kwanika inkwi ndetse no kwanikamo ibigori, gutara voka ndetse n'ibindi birimo ibigori n'ibishyimbo.

Igiti cy'umuyenzi kifashishwa cyane cyane ku bantu bo mu cyaro nk'umuti ushobora kuvura umuntu wagize ikibazo k'ijisho cyangwa wagize uburwayi bw'inkorora ukaba ukoreshwa n'ababyeyi bo mu cyaro mu gihe badashoboye kujyana kuvuza abana babo mu bitaro bakoresheje imiti ya kizungu.

Ihahiro rusange ry'imbuto rigaragaramo ibinyomoro, amacunga ndetse n'inanasi, amarakuca n'indimu, biteretse ku gitanda cyubakishije ibiti, hari umunzani ku ruhande wo gupimisha n'akabasi ko gukoresha n'imbuto ku ruhande mu mufuka w'umweru n'umutuku zitarakorwaho zikeneye abaguzi.

Indabo z'ubwoko bwinshi zirimo umutuku, icyatsi kibisi, n'izimeze nk'amateke ziteye inyuma y'igipangu cyubakishije amatafari y'impunyu, hejuru yayo hari insina ya kamara ndetse n'ayandi mateke ari ku ruhande n'urubingo rurenga hepfo rugenda rurindira ku mukikira.

Itsinda ry'urubyiruko ridahembwa, ryahuye n'abacuruzi bacuruza udutaro tw'imbuto n'imboga, harimo: inyanya, intoryi, imiteja, amacunga, ibitunguru na dodo, ndetse n'abacuruza mu mabutike aturanye na hafi y'ingo, babagira inama uburyo bagira isuku y'ibicuruzwa byabo.

Ibitoki by'imineke yitwa fiya birunze ku gitara cy'imbaho cyubakishije imidasesa ku mpande, hashinze ibiti hasi kugira ngo gikomere, amakoma hirya yo kugira ngo bakoreshe batara bifashe igitoki gushya vuba, ndetse no gutanga imineke mu gihe cyagenwe bitabaye kuba byanamba.

Umurima usasiye neza usasijwe n'ibyatsi by'amashara ndetse n'imbingo zumye, urimo igihingwa k'imboga kitwa pavuro bakoresha nk'ikirungo, gikundwa cyane n'abantu benshi, kiri hakurya y'umurima w'imyumbati isa nk'iyumagaye yumye, no hepfo hari mu gishanga hateyemo umuceri.

Ubwoko bw'ibihaza bwitwa imyungu bisaruye birunze hamwe, bitegereje abaguzi ko babigura, bigira intungamubiri nziza cyane kuko biba byifitemo amazi ahagije ndetse no kuba muri byo nta fumbire cyangwa ibindi bintu byongeyemo muri byo bigatuma abantu babikunda cyane, ariyo mpamvu ku isoko bigurwa.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'imbuto za marakuca, zirandaranda ku biti bubatse, bifashe hakurya no hakuno kugira ngo bifashe kurimba bigere kure, ndetse no kwambuka ku buryo bitabasha kugongana n'ibindi, bikera imbuto nyinshi bigatanga n'umusaruro uhagije, hamwe no kuba byarinda indwara cyangwa kuba byakanira hasi.

Umugore n'umugabo bari kumwe bafite ibyo bavuye gusarura bakunda kwita amashu bakuye mu murima wabo, bakoresha bateka nk'imboga cyangwa ibiryo byiza bikundwa n'abantu benshi cyane.

Ingemwe y'urubuto rwa avoka ifite amashami atatu, rumwe rizamuye, nabiri ari kuruhande, n'ikindi kibabi kimwe cyaguye, biteye mu murima uhinze, utunganyije neza, hari ibiti by'imyumbati birunze ku ruhande byatemwe mu gihe bari guhinga, n'amateke barengeye ubwo bahingaga umurima.

Ubuhinzi bw'imboga bita korojete zera ahantu mu gishanga zifatishije n'ibibabi byinshi, zibyimbye cyane z'icyatsi kibisi, zigiye zipima nka metero ebyiri, zikoreshwa n'abantu benshi, abana cyane n'abagore, zigira intungamubiri ku buzima ndetse n'imibereho y'abantu.

Utubase dutatu turimo imboga zitandukanye, zigizwe n'inyanya, epenali, tungurusumu, izitwa cocombure, karoti, n'imiteja, bitegereje abaguzi ko babigura. Aho abagore bakenduka n'imugoroba, bakaza kubicuruza ku bantu baba babonye amahirwe make yo kutajya mu isoko.

Agasoko ka ndaburaye, bacururizaho imbuto n'imboga, hagaragaraho imbuto nk'intoryi, karoti, inyanya, hari umugore wambaye ibitenge, yabiteretse ku mukeka w'umweru, hejuru hariho rigore zigizwe n'ibyuma bya ferabeto, n'igisima giteretseho imifuka ya karoti.

Igiti kirekire cy'umukindo, gifite amashami arumbaraje, giteye mu busitani, bugizwe n'ubucaca, kizengurutswe n'indabyo nyinshi, n'insina n'ibisheke, biri iruhande rw'ibumoso, n'igiti cy'umwembe, gifite nka metero eshatu, cyegeranye n'izo nsina kirinda kugira ngo imvura itagwa ikangiriza iyi myaka.

Akarima k'igikoni karimo ibitunguru biteye neza ku murongo mu murima ubagaye neza utarimo ibyatsi, uzengurutswe n'ibiti bizitiye imbuga yose kugira ngo hatagira abana baturuka hirya bakaza bakabyangiza.

Iguriro rusange ry'imboga rwatsi zigizwe n'intoryi, n'imiteja, inyanya, hari utubase tw'ubururu n'umunzani w'ubururu biteretse ku mufuka w'umukara, hazengurukijwe n'ibiti ndetse n'isahani yo gukoresha bapimira abaza kugura, kugira ngo abagurisha badahendwa.

Umwana uri kumwe na se, bari kugenda mu murima w'inyanya bareba ibitameze neza bakabikemura, barandura ibyatsi byagiye bimera mu nyanya bishobora kurya ingemwe z'inyanya, bikabitera kuma cyangwa kwangirika. Iyo ubikoreye neza inyanya zirera ndetse zigatanga umusaruro

Itsinda ry'abahinzi rigizwe n'abagabo batatu n'umukobwa umwe wambaye imyenda y'umukara bari guhinga imboga za dodo mu karima kamwe muri dutatu bagerageza kugira ngo barebe ko izi mboga zakunda ahangaha zikahera neza kugira ngo bakomeze n'ahandi bahinze.

Ubusitani bw'ubwatsi butoshye cyane buri hagati y'imihanda ibiri, buri mu mabara y'icyatsi kibisi, buteye neza ku murongo uko biteganywa, bigaragaza isuku ndetse n'abahareba bakaba bahishimiye kuko bifite inzira y'aho abantu banyura.

Ihahiro rusange ry'imbuto, aho hagaragara imbuto zirimo ibinyomoro, imyembe, amaronji, atukura, ndetse n'ay'icyatsi kibisi, hari umunzani n'akabase byifashishwa n'abakiriya mu gihe bari kureba ko ibyo bajyanye bihura n'ingano bashaka.

Umugabo uhagaze mu nyanya ariko zivomerera azitera n'umuti kugira ngo yice udukoko twateye zino nyanya dutuma zangirika zitarera zigatanga umusaruro muke izindi zikuma, iruhande rwa yo hari umurima w'ibigori ndetse n'umurima w'imyumbati uri hejuru y'izi nyanya baba bakoresha.

Umugore uri mu murima wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara, igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu, arishimye cyane afite intoryi z'umweru mu ntoki. Arerekana yuko guhinga intoryi ari umurimo mwiza, kubera ko zitanga umusaruro uhagije haba ku muryango ndetse no ku Gihugu. Ibi bigaragaza yuko umuntu wese yahinga, kandi akaba ari umurimo wamutunga hamwe n'umuryango.

Ubusitani butoshye, burimo ubwoko bw'indabo bugera muri butanu. Bujagaraye budakoreye amasuku. Buteye hejuru y'umuhanda, ahagaragara urukuta rwamabuye, yubatse hejuru y'umuhanda.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'ibiti by'imbuto z'ibihingwa byitwa ibinyomoro, biteye ku muronko bifite amababi ashishe cyane n'imbuto zatukuye, bigenda bisasiye n'ibyatsi byumye bibafasha kubirinda izuba no kuba byakuma by'ubutaka byatumaza imbuto zangirika.

Agasoko ka ndaburaye kariho ibijumba n'amadegede n'utwumbati tutari twinshi, turi ku gitara gipfutse neza, cyubakishije imbaho zitambitse n'izihagaze ndetse na shitingi y'umweru, zizengurutswe n'akazu gatoya kameze nk'akubakishije ibyondo, gasize amabara y'umweru.

Akarima k'igikoni, karimo udutunguru na karoti, karimo n'utudodo ku ruhande, bisa nkaho bitewe vuba, bigaragara harimo uturingoti, buri kose gateye ukwabyo, ubutunguru butagaranye, butarafata ngo bufatane, byose biri kumwe hamwe, ndetse na dodo ziri ku ruhande.

Iguriro rusange ry'imbuto zitandukanye, aho abaguzi bagenda bakajya gushaka imbuto mu cyaro cyangwa mu mirima y'abaturage bakazana bakahacuruza, niho abaguzi baza kugurira izi mbuto, hakaba hagaragara akabase bakoresha mu gihe cyo gupima kugira ngo borohereze gufata ibipimo by'ibyo umuguzi ashaka.

Umukobwa wambaye ingofero y'umukara, agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara zagenewe ubuhinzi, ari ahatuburirwa imbuto z'imyembe zitangwa ku bahinzi bahinga bya kijyambere, ndetse n'abashaka guhinga mu rugo imbuto z'ibiti zifashishwa mu gihe cyo mu rugo bazigaburira abana babo kugira bagire ubuzima bwiza, ndetse na bo ubwabo bakure.

Ibiti by'indabo by'umuhondo bifashe hejuru y'umuhanda, ahari agataka n'urubobi rukeya ruherereye ku mabuye ari hepfo yarwo, harimo igiti kirekire cyane gifashe ku ruzitiro rw'ibyuma bizenguruka imbuga yose, byifashishwa mu kurinda umutekano.

Ubusitani buri impande y'umuhanda bugizwe n'umucaca, hagati harimo igiti kigizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, asa nkaho yumye kubera izuba, batabyitayeho ngo bahavomerere isubirane ubuzima bwiza.

Akarima k'igikoni karimo imboga za dodo zishishe cyane, buri zose ziteye mu masashe ndetse n'ibyondo by'imifuka y'umweru bizitiwe n'urugo rwa rukarakara, hasizeho amarangi hejuru, hari igitaka ku ruhande, aho mu mbuga y'umuturage anyura agiye gusoroma imboga.

Umurima w'inyanya zitoshye zishashije urubingo rwumye rurambuye muri metero ebyiri ziteye ku murongo neza nkuko abajyanama b'ubuhinzi babigiriyemo inama izafasha abahinzi kweza neza inyanya no kuba kwirinda ko zafatana mu gihe ziri kuzana ibitumbwe, buri zose zikabona aho kubyarira nta rwikekwe.

Ingemwe z'ibiti by'inturusu, aho biri aho babihinga, mu gihe bitegereje ko bigemurwa, bikajyanwa mu mirima y'abashaka guhinga, ndetse n'amashyirahamwe yishyize hamwe, agakora umushinga wo guhinga amashyamba, harimo abagabo batatu bari gukorera izo nturusu, kugira ngo izakure neza.

Imboga z'amashu ziri ku gataro, kazuze neza ndetse kacoye. Kubawukishijwe n'urukangaga, n'imisegeri yo mu ishyamba, gateretse ahantu gasa nabi, ahari utubaho twashaje, hari umwanda hasi w'ibipapuro.

Uduseri dutatu tw'imineke migufiya yitwa kamara, duteretse ku gakoko kaboshye neza, bakoresheje urukangaga bagashyiramo n'igiti birinda ko cyakangirika, bagakora uruziga rwiza kugira ngo bigaragare ku babireba.

Igiti cy'indabyo cy'icyatsi kibisi gifite amabara meza ya move, giteye hagati y'ubucaca n'igisima, aho giherereye ari cyonyine mu bucaca busa nk'ubwashaje buri hejuru no ku mpande, hepfo hari igisima kigizwe n'amabuye ndetse n'umucanga cyubatse neza.

Agasoko ka ndaburaye karimo imbuto n'imboga, hagaragaramo inyanya, karoti n'amashaza, epinari ndetse n'ibindi, biri ku gikatara cyubatse neza, ahandi hari shitingi y'umukara, hirya yabo hari umugore wambaye imyenda y'umutuku, ndetse no hakurya hari amashu akibitse, ategereje ko acuruzwa.

Itsinda ry'abahinzi b'umwuga rigizwe n'abasore batatu n'umukobwa umwe wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, bari mu murima w'ikawa aho bazituburira bakanazigemura bajya kuzitera mu mirima yabo izindi bakazigurisha kuri ba rwiyemezamirimo b'abahinzi biyemeje guhinga igihingwa cy'ikawa.

Iguriro rusange ry'imbuto aho abacuruzi bazana imbuto zabo abaguzi bakaza kuzihafata, hagaragaramo imbuto z'imyembe, indimu, amaronji ndetse n'amacunga, biteretse ku gitara kiriho shitingi y'ubururu ndetse n'isahani yifashishwa mu gihe cyo gupima.

Ibiti by'ipapaye kimwe kirekire n'ibindi bibiri bigufi bifite amababi atoshye cyane, n'indabo bigaragaza ko ipapaye igiye kwera, ku ruhande rwayo hari igiti cy'umuyenzi kirekire kitagaragara neza, ariko hakagaragara n'inzu ifite amategura n'irangi ry'umweru.

Iguriro rusange ririmo imbuto n'imboga hagaragaramo ibitunguru, intoryi, amashu na karoti ziri mu kabase k'ubururu. Ndetse n'intoryi ziri ku ruhande ziri mu ibase y'umutuku.

Ibinyomoro bifumbiye mu butaka, bitegerejwe kuzagemurwa bijya guhingwa na ba rwiyemezamirimo hamwe n'abahinzi ndetse n'abandi mu rugo bakenera ibiti by'imbuto byifashishwa mu kugaburira abana batoya ndetse n'abakuru bakeneye ubuzima bwiza.

Umurima uterwamo ingemwe zo gutera z'ibidukikije hamwe n'imbuto, aho abahinzi bagurisha izi mbuto kuri ba rwiyemezamirimo, bakajya gutera igiti muri gahunda ya buri leta ndetse ya buri wese yuko buri wese agomba gutera igiti.

Iguriro rusange ry'imbuto, aho abahinzi bazana imbuto zabo akantu zikagurwa n'abaguzi batandukanye, hagaragaramo amaronji, akamaraguca, inanasa ndetse n'imyembe, birunze ku gitara hariho ibikarito by'umutuku ndetse n'ibindi biri mu isashi n'umuzani ukoreshwa mu kureba ko byuzuye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'igihingwa cyitwa ikinyomoro, biteye ku murongo byubahirije uko abajyanama babitegeka, byerekana ko ubu buhinzi bufite umurongo ndetse butanga umusaruro mwiza, kuko bufite imbuto nyinshi kandi zishishe.

Umugore wambaye imyenda y'umutuku n'umugabo we bari kumwe mu buhinzi bwabo bwa kijyambere bw'igihingwa cy'imbuto bita ikinyomoro, kigira intungamubiri nziza cyane nko kubaka umubiri ndetse no kurinda indwara.

Igiti cy'urubuto bakunda kwita avoka giteye inyuma y'inzu, ishaje cyane yubakishije rukarakara n'umucanga, n'amabati ashaje, uruhande rw'iyo nzu hari imiyenzi ikikije urugo, urinda umutekano w'abinjira batabiherewe uruhushya.

Ibase y'ubururu yuzuye imiteshi itoshye cyane, isa nkiyavuye mu gishanga, yegeranye na karoti zipanze ku mwandiko, zibaze ku gafuka k'umweru n'akandi k'umuhondo kamanitse ku gikuta cy'inzu yubakishije ibitaka bisize akarangi k'umweru kadakeye neza, ndetse n'akajerekani k'umuhondo kari munsi y'ibase.

Imashini yifashishwa mu kuvomerera imyaka mugihe cy'izuba kugira ngo imyaka ibe itakangirika mu gihe nta mvura, igizwe n'amabara y'umweru, imashini n'amakamba agenda akwiza mumurima hose kugira ngo amazi ahagere bitagoye.

Umugabo wambaye ingofero n'agapira k'amabara n'ipantaro y'umukara n'ibirenge, ufashe umupira w'amazi, ari kuvomerera ibishyimbo bisa nk'ibyumye, harimo imyumbati isa nk'iyanze gukura, hakurya yabo hariho urubingo ruteye hakurya ku muringoti ndetse n'ibyatsi bimwe na bimwe byamerereye ku ruhande.

Imashini yifashishwa mu kuvomerera imyaka, mu gihe cy'izuba, cyangwa ibihingwa biri ku musozi ahategereye umugezi. Ibingibi kubikora bituma bitanga umusaruro, kuko ibihingwa ntago bishobora kuma, cyangwa bikagira ikibazo cyo kubura izuba ntibitange umusaruro.

Umugore wambaye ikanzu yubururu ufite umusatsi w'umukara uri kuvomerera imboga za dodo ziteye kumurongo zisasiye n'ubwatsi bwumye bufasha za mboga kubika amazi mugihe kizuba zidapfa cyangwa zikangirika no kuba zabaho igihe kirekire imvura itari kugwa.

Umurima w'amashu ashishe cyane urimo abagabo babiri bambaye imyenda itandukanye umweru ndetse n'ubururu. Barikuvomerera bakoresheje umupira n'amazi ariguturuka mu mugezi, bavomerera kugira ngo bazafashe amashu kuba yakangirika mu gihe cy'izuba no kuyarinda kuba yagira ikibazo na kimwe mu gihe izuba ribaye ryinshi.

Abana babiri bavuye kuvoma umwe yambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'umukara afite amajerekani y'umuhondo, ari kumwe n'uwambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amajerekani y'icyatsi kibisi, bari kuvoma mu kigunda ahegereye ibyatsi bitoshye, hakurya yaho hakikijwe n'umuceri wumye ndetse ukikijwe n'ibindi biti biri hejuru cyane, birimo intusi ndetse n'ikawa.

Umurima wa pavro, ukikijwe n'insina n'igishanga ndetse n'ibiti. Harimo abagore babiri, bari kuvomerera pavro, bashyiramo amazi mu gihe cy'izuba, kugira ngo bizazinde kuba zakangirika, cyangwa no kuba zakuma ziteze.

Ahantu mu cyaro hagaragara inzu iri mu gishanga, ikikijwe n'urutoki, n'inzu nyinshi zindi ziri mu rutoki, zikikijwe n'amashyamba ari hakurya no hakuno, ndetse n'ishyamba batemye cyane bigaragaza ko bashobora guteza inkangu, kubera ko batashoboye kwita ku bidukikije.

Ikibaya kirekire bakiniramo umupira abanyeshuri mugihe bari kwiga n'igihe bari kuruhuka gikikijwe n'ibiti birebire ndetse n'umusozi uri hakurya uriho amazu y'umweru ndetse n'amabati y'umukara a afiteho na cadasteri hirya no hakuno haho hariho n'ibiti by'inturusi bikikije umusozi.

Akana k'agakobwa k'urukara, kambaye ibirenge n'ikanzu ishaje isa nabi, kari hejuru y'ibyatsi bitoshye hepfo y'ingano zenda gusarurwa, kareba hakurya ku musozi uhari uteyeho ibiti by'intusi, imyembe ndetse n'ibigereveriya.

Igishanga gifite ubuso bunini, kiteyemo umuceri, gikikijwe n'amashyamba impande zacyo, arimo ibiti binyuranye, harimo intusi, pinusi, harimo na avoka, ndetse n'imyembe, bituye hakurya y'imisozi. Iki gishanga kiba kirimo amazi, kugira ngo umuceri uzamere neza, babonye amazi ahagije.

Icyayi gihinze kuri hegitare nyinshi cyane izengurutswe n'amashyamba hepfo no haruguru, gikorwamo icyayi ndetse n'imiti yifashishwa ku bantu baba barwaye kudasinzira, kubura ibitotsi, ndetse kikaba cyafasha abahinzi bagihinga kukigemura ku ruganda bakabona amafaranga.

Umurima uri gutunganywa bari gucamo amaterasi menshi azafasha kurwanya isuri ndetse hagaragara ko uyu murima uteyeho ibiti n'insina bishobora guhangana cyane n'ikibazo k'isuri gitwara ubutaka bw'abaturage bigatuma batabona umusaruro uhagije.

Inzu nyinshi zubatse mu manegeka ahagenewe ubuhinzi, zigaragaza ko hano haba inkangu iteye ubwoba ndetse yahitana n'ubuzima bw'abantu cyangwa ukabishyira mu kaga bitewe n'uko bagiye bubaka ku manga bikabije.

Umurima utunganyije neza utegereje guhingwa, ufiteho amaterasi ateyeho ibyatsi bitandukanye bizafasha kurinda isayo, ndetse n'ibindi biri ku ruhande bigizwe nk'imyumbati, imigozi n'urubingo, ndetse n'ibishyimbo.

Igishanga kirimo amazi menshi bahingamo umuceri utatanye impande n'impande, hagaragara ishyamba haruguru y'igishanga rigizwe n'ibiti by'intusi ndetse n'amazu ari ku ruhande rw'iburyo, asakaje amabati y'umutuku n'urutoki ruyakikije.

Ishyamba rigizwe n'intusi riteye ku musozi muremure, uciyeho amatarasi, buri hose kandi buri hantu, hagaragara yuko biteye neza, mu rwego rwo kwirinda isuri, yaturuka ku misozi ikazana mu gishanga. Aya matarasi aba yaraciwe, afashwa kurinda isayo, ndetse no gufata ifumbire itamanuka.

Icyaro kigaragaramo inzu nkeya n'ubuhinzi bwinshi ariko budateye imbere kuko bihinze mu kavuyo, ikindi imirima iteyemo imiringoti igaragaza ko bafashe ingamba zo kurinda ubuhinzi kuba bwakangirika, baca imiringoti, banatera imiti ku nkingi zayo.

Ikibuga kinini gikikijwe n'ibiti giteyemo ibyatsi bitoshye cyane, bigaragara nka hegitari, ibyatsi biri iruhande yabyo, harimo inturusi, pinusi, sipure ndetse n'umuvumu biteye ku ruhande y'icyo kibuga gifite umuhanda unyuramo hagati ugeze nko muri metero ijana uturutse aho kigaragara.

Umuririma uciyemo amaterasi menshi yifashishwa mu kurwanya isuri ndetse no gutanga umusaruro kubera ko ibihingwa biba bihinze ku muronko akabasha gufata ifumbire kugira imvura itayijyana ipfo mu manga ikaguma mu murima neza igasigasira ibyo wahinze bigatanga umusaruro uhagije.

Inzu isakaje amabati y'umutuku ikingirijwe n'ibiti by'ubwoko bwinshi, harimo imikindo n'imisave, hejuru yayo haboneka amasinga y'amashanyarazi, ujya gusingira umusozi uri hakurya y'inzu, ugaragaramo utuzu twinshi cyane twubatse mu kajagari.

Umurima urimo amatarasi y'indinganire agera muri atandatu ateye ibyatsi ku ruhande, buri hose hari ibyatsi bihagenewe, hari amapoto y'amashanyarazi ndetse n'ibiti biteye hirya no hino bizafasha uyu murima kutagira ikibazo cy'inkangu cyangwa isuri yakwangiza ibihingwa biteyemo.

Urwanikiro rw'imyaka rukoze mu biti ndetse n'imbabari, uru banikiraho imyaka itandukanye, harimo ibishyimbo n'ibigori, amasaka n'ingano, bashyira kuri shitingi kugirango babirinde kwangirika, no kuba bya bikika igihe kinini kandi bitangiritse.

Ikibuga cy'umupira abanyeshuri bahuriramo bagakina mu gihe cy'ikiruhuko cyangwa mu gihe babahaye cyo kujya gukina ari mu gihe cy'amarushanwa, gikikijwe n'ibiti n'inyubako zisakaje amabati y'umutuku ndetse nazo zisize amarange y'umweru ndetse yubakishije n'amatafari y'impunyu.

Umusozi uteyeho amashyamba atandukanye, arimo intusi n'ibigereveriya, hari urutoki mu gishanga ndetse n'ibigori, akazu kamwe k'imbaho ndetse kariho amabati y'umweru, n'abagabo bagiye bari mu mirima yabo bahinga, intoki zizengurutse imbuga nyinshi, ndetse n'ibiti bya avoka bizengurutse ingo.

Umuringoti uriho urubingo, uri hejuru y'ibiti by'imyumbati, biteye mu murima wegereye umugezi. Hakurya hari icyorero, boheramo amafi. Ndetse bakoraro amafi yo guteka, ndetse no kugurisha ku bayakeneye. Hari ibiti byinshi biri hakurya, bigaragaza bishishe cyane. Ndetse bikuze ukubiri.

Ikibuga cyamezemo ibyatsi, kizengurutswe n'ibiti by'intunsi na pinusi, ahatari ibiti hakaba harateje inkangu ubutaka bwaragiye kubera isuri kubera bataba barateye ibiti. Ahangaha ku ruhande nibahatera ibiti, isuri yagabanuka kandi n'ikibuga kirakomeza kigakoreshwa.

Umukecuru wambaye umupira w'umutuku, igitenge cy'umutuku, ufite inkoni mu ntoki, wikoreye inkwi. Ari kwambukiranya umugezi ava hakurya yaho ajya ku wundi ahagaragara ibigori ndetse n'igishanga giteyemo ibigori bikikijwe n'amashyamba.

Umugore wambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, umweru n'umukara, afite isuka ku rutugu arimo areba ibigori yateye hakurya ndetse n'ishyamba riri hakurya ye, azengurutswe n'ibyatsi harimo urubingo, amateke, ibishyimbo ndetse n'igiti cyitwa umuravumba, gikoreshwa mu kuvura inka zarwaye urubembe.

Ishyirahamwe ry'abatishoboye mu kagari ryahuye n'umuyobozi wako, akabahereza ingurube muri gahunda ya gira ingurube munyarwanda, aho izabafasha kwiteza imbere zibaha ifumbire ndetse n'inyama, no kubashatse kuzigurisha mu gihe zamaze kororo.

Abagabo batatu bafite inkoni, babiri muri bo bafite inka ebyiri; inka y'isine ndetse n'urwirungu, hakurya yabo hari imodoka iri gupakira inka zijyanywe ku masoko atandukanye kugira ngo bazazikoreshe bazorora, izindi zikuze muri zo bakazibaga kugira ngo zitange umusaruro w'inyama.

Umugabo wambaye bodaboda z'umutuku, nipantaro irimo amabara y'umuhondo numukara, wambaye umupira w'ingofero, afashe ikibwana cy'ingurube, ari kwereka abajyanama mu by'ubuhinzi ndetse n'abajyanama mu by'ubworozi, bamugira inama y'ikingurube ye yarwaye kugira abone uko ayivuza.

Ni kibamba ifite amaguru ane, iri kurishiriza mu rugo izirikishije ikiziriko cy'ikinusi, kiziritse hafi y'urugo ku giti, n'ibiti by' intusi byumye bizengurutse urwo rugo, iri kurisha utwatsi dukeya, harimo ibishishwa by'ibigori n'urwatsi rw'urubingo.

Wambaye agapira gaciye amaboko n'ipantaro yumukara, aragaburira inkoko zitari nyinshi zigera kuri eshanu, ari mu nzu y'ibitaka isakaje amabati yatobotse ndetse n'urugi runini cyane rw'ibiti, hari imifuka ku ruhande ndetse n'ibyatsi izo nkoko zirya mu gihe ziri kurya.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uri kugaburira ingurube ibiryo byayo imaze kuva mu kiraro itereka hanze ku mbuga kugira ngo irusheho gukura neza no gutanga umusaruro, iruhande rwayo hari ibiti by'imihati bizengurutse urugo rufashe gucunga umutekano.

Ihene ibyibushye cyane izirikishije ikiziriko cy'ikinusi mu ijosi. Iri kurisha mu gisambu giteyemo ibyatsi. Uruhande rw'iki gisambu hariyo inzu ebyiri zigaragara nk'izishaje cyane bivugwa ko izi nzu zubatswe kera ku gihe cy'abami. Zisabwa kuba zasanurwa kugira ngo zidateza impanuka yaba ku matungo ndetse n'abantu bahagenda.

Ikiraro gishaje cyane cyubakishije ibiti n'amabati makeya, gikikijwe n'insina nyinshi, ndetse n'ibiti bitandukanye, hari ingurube y'umweru iri gusohoka mu kiraro, iri kugenda mu mbuga kurisha, gushakisha ibyo kurya hirya mu baturanyi, kuko mu rugo nta biryo bihari.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bahagaze mu rugo bari kureba inka y'ikibamba bagiye kubanguriza ku kimasa cyayo, hagaragara umuntu utwara moto, yashyize kasike hejuru y'ikiraro cy'inka, ndetse n'inzu zishaje cyane, zubakishije ibitaka n'amabati akuze.

Umukumbi w'inka z'ikibamba, ziteraniye hafi y'ahari amatente agizwe n'amabara y'umweru n'ubururu, hari abagabo benshi cyane n'abaturage benshi, inka bagiye gutanga ku bantu batishoboye muri gahunda ya Girinka Munyarwanda kugira ngo izabafashe kwiteza imbere no kwikura mu bukene.

Inka y'ikibamba, iziritse ikiziriko cy'ikinyusi mu ijosi, ku giti cy'inturusu cyegereye iyo nzu, ndetse n'inzu ishaje ifite urugi rw'imbaho, ifite na wesi isa nk'iyashaje cyane, ku ruhande rwayo hari ibiti by'inturusu, ndetse n'ibitoki bitarera neza.

Ihene ebyiri zifite amabara y'umweru, ziri kurisha mu bigori by'umuturage, ibigori bizitiye cyane byasaga nk'ibigiye kwera ariko bitaruma neza, bikikijwe n'igitaka kiri hakurya y'umurima, ndetse n'ibiti biteye mu bigori harimo imyumbati n'amasaka ndetse n'ibihwagari.

abagabo batanu bambaye bote ndetse na badaboda buri wese aho afite inkwavu ebyiri ari kwerekana uburyo inkwavu zabo zatanze umusaruro uhagije ko zibyibushye bashoboye kuzitaho neza zikaba zashobora kunjyana ku isoko

Inka y'urwirungu iri mu kiraro gishaje cyane, iri kurya ubwatsi bw'imihati, yatezwe igiti kugira ngo itagira amahane ikaba yakica abari kuyigaburira cyangwa ikaba yatoroka ikiraro igasohoka ikajya kwangiza imyaka y'abaturage.

Inkokokazi n'amasake biri gutora mu mashara y'ibishyimbo bamaze guhura, hari agatebe kagizwe n'ibiti bibiri n'urubaho rumwe gashinze mu bitaka, hari n'ikigega cy'umukara gifata amazi y'imvura, n'ayo gukoresha mu rugo, giteretse imbere y'akazu gashaje cyane, gafite urugi rw'ubururu gatoya .

Umugore uhetse umwana uri kugenda ava mu rugo, iruhande rwe hari ihene ebyiri n'umuba w'inkwi uteretse iruhande rw'inyayu, urugo rw'imiyenzi ruturuka ku ruhande rw'ibumoso n'ibigori bituruka hafi y'inzu, bizenguruka inzu iburyo n'ibumoso ndetse n'utwatsi duteye hanze y'urugo.

Umuganga mu by'amatungo wambaye agapfukamunwa afite n'imisatsi miremire, yambaye itaburiya y'umweru, ari kureba aho ubworozi bw'ingurube buteye imbere, ingurube ziri mu kiraro cyubakishije amatafari ya rukarakara n'inkingi ziri hakurya z'impunyu ndetse asakaje n'amabati y'umweru ariho ibiti bishaje.

Inka nini y'ikibamba ifite amaguru maremare, iri kurisha mu kiraro, urwatsi bw'urukangaga, hazengurukishijwe n'ibiti, byubakishije n'imbariro eshanu eshanu n'ibiti byinshi biri ku ruhande n'igitaka kiri mu mbuga, aho umuhinzi aza gukoresha, cyangwa umworozi uza kunyura aje guhereza ubwatsi inka.

Ihene ebyiri z'umukara n'umweru, ziziritse ibiziriko by'ubururu mu ijosi, biziritse hagati y'ibinusi, kamwe bihagaze ku iriba ry'amazi yo mu cyaro. Hakurya yaho hari ibiti bya gereveriya, n'imigozi iteye hakurya no hino, ziraziritse kugira ngo zitona imigozi, cyangwa zikaba zakona imyumbati zigapfa.

Umugore n'umugabo n'umwana wabo bari kugaburira ingurube ibyibushye y'umweru, bari kuyihereza ibiryo bakoresheje ibase y'umuhondo bavanze n'amazi, bahagaze imbere y'inzu yubakishije ibyondo ndetse n'idirishya ry'ibiti n'urugi rw'ibiti bisa nk'ibishaje n'ikiraro cy'ingurube kigiye gihagitsemo ibiti mu mpande.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko bugizwe n'inkokokazi n'amasake, bufite ibikoresho bihagije, ndetse n'uwita kuri aya matungo. Harimo ibikoresho bizana urumuri, ibirinda indwara ndetse n'ibyinjiza umwuka, bifasha inkoko kubaho neza, n'ibyo kugaburiramo inkoko kugira ngo birye neza.

Itsinda ry'umusore n'umukobwa ryita ku bakene ryasuye abagore batuye mu mudugudu wabo kugira ngo babashyikirize inkwavu zizabasha kujya biteza imbere, kuba babona nk'inyama no kubona amafaranga mu gihe bazigurishije bagashobora kwishyura mituweri ndetse no kugura amagi y'umwana mu gihe babuze amafaranga yandi.

Ingurube irimo amabara y'umweru n'umukara, yabwaguye ibibwana bigera ku munani, igaramye hasi ibibwana biri konka, bimwe byananiwe konka biri ku ruhande, bimwe bivaho ibindi bijyaho, hagati yabyo harimo ubwatsi ndetse n'ibiryo bitunga izo ngurube, kugira ngo zigire ubuzima bwiza bikure kandi bitange umusaruro.

Amasake abiri n'inkokazi eshatu ziri inyuma y'inzu ishaje ifite urugi rw'ibiti rukoze mu mbaho, rusa nk'urushaje cyane, hari amabuye bagenda bamenamo ibyo biryo by'inkoko kugira ngo zigende zibitora zidasabye gushondana cyangwa kuba zacana ibisebe.

Amatungo magufi arimo ihene enye n'ingurube biri mu kiraro mu rugo, bizirikishije ibiziriko bikomeye cyane bimwe muri byo bikaba ari iby'umweru, bahaye ubwatsi ziri kurisha kugira ngo zigire ubuzima bwiza kandi ntizicwe n'inzara.

Ungurube y'umweru nini ifite ibibwana bigera mu munani bizitiriye mu rugo rw'imbaho, ibiti bishinze hasi ku butaka, iri kurisha ibiryo bayishakiye kugira ngo ibashe konsa abana yayo ndetse no gukuza ibibwana, bizatangage umusaruro ku borozi ndetse n'abazashaka kubigura.

Inka y'ikibamba ifite amatwi maremare idafite amahembe, ifite amaguru y'umweru, iziritse hagati mu kazu gatonja kazengurutswe n'ibiti bitari byinshi, izengurutswe n'igiti kimwe iriraho kugira ngo iyifashe kudasohoka ndetse n'ubwatsi bw'urubingo burunze hasi bwasagutse ku bwo yariye.

Inka y'ikibamba ifite uduhembe dutoya n'amatwi areba hasi, umurizo muremure ukora ku giti ndetse ruri kureba ibyatsi biteretse hirya, ikingirijwe n'ibiti bibiri bitambitse na kimwe gishaje, hakurya yaho hari akazu gashaje k'igitaka, kubakishije ibyondo n'urwego ruriho umusumba uzanira inka nk'ubwatsi.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere. Aho imishwi imitoya cyane, ifatwa ikagaburirwa ibiryo byagenewe inkoko, nyuma y'ibyumweru bibiri bikaba bikuze. Bikabarura n'ibyuma bitanga ubushyuhe mu nkoko. Bifashe inkoko kudapfa cyangwa kuba zarwara umusonga, kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Inka y'ikibamba iziritse ikiziriko cy'ikinusi mu ijosi, iri kurisha mu twatsi twegereye umuhanda, iragiwe n'umugabo wambaye ingofero n'umupira w'umweru, begeranye n'ibyatsi ndetse n'amashyamba biteye hakurya no hakuno, byegeranye n'uwo murima inka ziri kurishamo kugira ngo zitajya kona imyaka.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere, bufite ibikoresho bihagije, n'umugabo ushinzwe kwita kw'izi nkoko, uhagaze imbere yazo, wambaye umupira w'umukara n'umweru, n'ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'impeta mu ntoki.

Inka y'urwirunga iri mu kiraro, gikikijwe n'ibyatsi isakaje na shitingi, hari igiti kitambitsemo gifasha inka kudatoroka, ndetse no kuba inka yarya ituje, itari kugenda izerera mu kiraro. Ibiti bishinzemo ntago ari byinshi, ariko byose bifasha iyi nka gutuma yarya itari mu kavuyo.

Inka y'ikibamba inanutse, izirikishije ikiziriko cy'umweru mu ijosi, bayifatisha ku giti, iri mu gisambu aho bayitandukanyije n'izindi nka ziri kure, kugira ti ibe yarisha izindi zitayica, cyangwa ziyibuze amahwemo. Kuyambika iherena ukuntu ni ukugira ngo bayitandukanye ndetse igire na nimero.

Amatungo magufi yo mu rugo arimo amahene abiri, ingurube biziritse mu rugo imbere y'imiyenzi ku gitara cy'inka iriraho, biri kurya amakoma, imitumba, ibigorigori ndetse n'urubingo bashatse byo kurya bifasha izi hene kugira ubuzima bwiza.

Ikidendezi cy'amazi asa nabi cyugarijwe n'imigano batemye. Hakurya yaho hari urubingo rwinshi cyane rwafashe isuri kugira ngo itamanuka ndetse n'ahandi hari ibiti by'imigano ifasha kugira ngo ibyondo bitaza muri iki kidendezi bikaba byananduza amazi arimo.

Ubuhinzi bugezweho nk'igihingwa cy'imyumbati twifashisha mu biryo bitera imbaraga, hakavaho n'isombe nziza cyane ikoreshwa mu kurinda umubiri, ndetse ikaba n'imboga nziza zikoreshwa ku bana n'abantu bakuze bose, harimo amaterasi akoreshwa mu kurwanya isuri ndetse no gufata ifumbire.

Uruboga rw'urushu rukuze cyane, rufite ubutohe bubobereye, rugaragaza yuko rwabonye ifumbire, ndetse rwitaweho mu gihe baruteraga, ruri ku murongo neza, rugira intungamubiri nziza kandi abarukoresha bakarushima.

Ubuhinzi bw'imbuto za marakuja, zigenda zirandaranda ku biti, ziteye hafi y'uruzitiro rwubakishije amasenyenge, hakurya hari umuhanda wubakishije kaburimbo, haruguru yaho hari ibiti ndetse n'igihuru cy'inzitane kirimo ibiti kimeza.

Imbuto z'avoka n'imyembe, bifumbiye muri pikinyeri isakaje ibiti hejuru no hasi, biteye mu mashashi y'umukara arimo ibitaka, harimo utuyira tw'umuhanda abagenzi banyuramo, ndetse n'abavomerera iyi myaka, n'abayikorera amasuku, abashaka kugura kugira ngo biborohere gushyika ku mbuto bifuza zakuze.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwifashishwa mu gufumbira imbuto n'imboga kugira ngo bijyanwe ku isoko cyangwa bishyikirizwe abahinzi bashaka gukora umushinga wo kubihinga bitabagoye, bifasha abahinzi kubona imbuto ku gihe ndetse bakabona imbuto bakeneye.

Ingemwe z'ibiti bya avoka zitegereje abaguzi ko bazigura bajye kuzitera mu mirima yabo, ndetse n'abandi bazitera mu rugo bakeneye imbuto zo gukoresha mu buzima busanzwe kubera kugira umusaruro cyane usanga zi mbuto zikundwa n'abantu bose yaba abikorera ndetse n'amakoperative.

Umurima uteguye uzaterwamo ibiti bibanguriye kugira ngo bizatange umusaruro mwiza bigashobora kwera ndetse no kurwanya indwara, nk'uko bakunda kubitubwira yuko izi mbuto arizo zishobora guhangana n'izuba ndetse n'udukoko twibasira imyaka.

Ikiganza cy'umuntu ufashe urusenda rweze ahateye epinari n'ibitunguru, bigaragaza akarima k'igikoni buri wese agomba kuba afite mu rugo, kugira ngo kamufashe kwihaza mu biribwa ndetse no kurinda indwara ziterwa n'imirire mibi.

Ibiti bya avoka bifumbiye muri pipiniyeri mu gitaka no mu mashashi y'umukara, bifite santimetero zigera kuri ebyiri, bitenze neza ku murongo, byorohereza abaza kubiterura mu gihe bagiye kubigemurira ahandi, ndetse n'uburyo babigurisha bidasabye kwangiza ibisigara.

Umurima uhinze neza, usasiye, urimo igihingwa kiri kumera cyo mu bwoko bw'imboga ndetse n'ibirungo bita pavuro, uri kumera, haragaragara ruzwari iri imbere y'izo mboga bari kuvomerera bigaragaza ko ari mu gihe cy'izuba, bakaba bari kugira ngo ibi bihingwa ntibizume, bizakomeze bigire ubuzima bwiza, ndetse binatange umusaruro uhagije.

Igiti cy'imboga zikundwa cyane, bakunda gukoresha nk'ibirungo ndetse n'imboga rimwe na rimwe, kiri mu mabara y'icyatsi kibisi, cyezeho ibipavuro bitanu byerekana n'ibindi biri ku ruhande biteye hasi mu butaka, ahari amasashi y'umukara aho cyafumbiriwe.

Ubwanikiro bw'ibigori bugizwe n'ibiti bitambitse n'ibishinze, hanitseho ibigori byinshi baba bagiye bazirikiranya kugira ngo bijyeho neza. Abahinzi bahakoresha bari kwanika umusaruro wabo, kugira ngo byume neza bibirinde gupfa ndetse no kwangirika mu gihe gito.

Ingemwe z'avoka n'imyembe biteye mu masashi y'imikara arunzemo igitaka muri buri shahi bizifashishwa mu guhinga ndetse no guteza imbere ubuhinzi, kugira aba koperative bazabigure bajye babikoresha bahinga, ndetse banatera mu ngo zabo kubera ko bizabafasha kugira ubuzima bwiza.

Imboga z'amashu ziri kumera zitewe mu murima ubagaye neza, ziteye ku murongo bikurikije uko abajyanama b'ubuzima babigiramo inama abahinzi, bituma babona umusaruro uhagije ndetse bakirinda ko ishuri rimwe ryanduye ryakanduza n'irindi.

Imigozi y'ibijumba bakunda kwita kanja wumve, yahinduye amabara kubera ko yarwaye, yapfunyaraye amababi ayandi akaba matoya, hakurya yaho hari urwiri n'urubingo, bifashe hirya kumukekera, kugira ngo bibe byarinda isuri, no kuba imbeba zakinjira mu bijumba, zikabirya bitarerera.

Ibishishwa byumagaye byavuye ku myumbati birunze hasi birenda kujya kujugunywa, byatoranyijwe mu myumbati yabitswe bamaze kuyitonora, ibi ngibi mu busanzwe n'iyo babyanitse babikoresha nk'imboga kuko bigira intungamubiri nyinshi cyane, harimo no kuba byarinda indwara cyangwa nabyo bikaba ibitera imbaraga.

Inka batemye mu mugongo, ifite ibikomere bigera muri bitanu, ifite amabara y'ikibamba yivanzemo n'ikijuju, iri kurisha mu byatsi biri hafi y'urugo, harimo ibishishwa by'ibishyimbo n'urubingo rusa nk'urutoshye, ikikijwe n'ibiti kuruhande, bifashe inka kudasohoka.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'uturindantoki tw'ubururu n'umupira w'umweru, yambaye bote n'ipantaro ari ahantu mu gashyamba, afite inka y'urwirungu yunamye imbere y'umukecuru arimo arayiha amazi, afite agacupa ko guhesha umuti inka mu gihe imaze kunywa amazi.

Iguriro rusange bacururizamo amatungo magufi, nk'inkoko, ihene, ingurube n'inkwavu, harimo abagabo b'abaguzi ndetse n'abagurisha bose bahahuriye bazanye ihene zo mu bwoko butandukanye, imfirizoni, ihene z'umukara ndetse n'ihene z'ikijuju.

Itsinda ry'abagabo; umwe ni umwana, umwe ubashungereye, bicaye ku nka bayica amahembe, umwe akoresha icyuma undi yicaye ku maguru, babiri bafashe umutwe abandi bafashe amatwi, umwe abarebera ko n'iziri hakurya zitirukanka, bari ku ruzitiro hafi y'umukumbi w'inka uzitiwe n'igipangu cy'amabuye, n'inzira y'inka yubakishijwe ibyatsi, ndetse ahandi hubakishijwe ibiti n'ibyuma.

Igisurubeti cy'ubururu n'inkweto z'umukara ufite agacupa mu ntoki karimo umuti, yicaye ku gitara cy'aho inka zirara ari guhereza umuti inka y'isine ayifashe amahembe. Ikiraro gisakaje amabati ashaje n'ibiti biri ku ruhande biyifasha kudasohoka bizirikishije imigozi n'ibiteyemo imisumari.

Umuvuzi mu by'amatungo wambaye igisubeti cy'icyatsi kibisi, bote z'umukara, ufite urushinge mu ntoki, yegeranye n'umusaza uri kunywa urwagwa mu karitiro, biri imbere y'inzu ishaje isakaje amategura, yubakishije irangi ry'umweru, ifite urugi rusize umutuku ndetse n'ibyuma bitambitse hasi, bari gutera inka y'urwirungu ndetse n'umwana wayo.

Umugabo wambaye agapira k'umukara n'igisurubeti cy'ubururu na bote z'umukara ukora nk'umuvuzi mu by'amatungo, yicaye afite icyuma ari guca inka y'urwirungu amahembe, igisebe yagikomerekeje, ari kukidoda akoresheje umuriro, umugabo we wicaye iruhande ufite intoki zisa nk'izumye wicaye hejuru y'ibyatsi arebera ibyo akora.

Inzira y'amatungo anyuramo agiye mu isoko aho abasoresha baba bari ku ruhande bagenda bareba buri tungo ryose ryinjiye muri iryo soko bakarisoresha rigatanga umusoro uhwanye n'agaciro karyo. Ihande hayo hari igisambu kirimo ibiti byinshi cyane by'amoko menshi harimo imyembe, harimo ibifenesi, intusi ndetse n'imyeya.

Umugabo w'umuvuzi w'amatungo wambaye ikoti ry'umuhondo ari kumwe na Nyirumurima wambaye umupira w'umutuku, bari gukoresha icupa ry'icyatsi kibisi, bahereza inka y'isine umuti, izirikishije ikiziriko cy'ikibamba ndetse n'ikiziriko kiziritse ku giti, igiti cyubakishije igitara aho inka zirira.

Inyamaswa y'ingwe, ikunda kuba cyane cyane ahantu hijimye, ndetse no mu bihuru abantu badakunda kugera, kubera kugira amahane cyane. Usanga ari ya nyamaswa ikunda kugenda mu masaha y'ijoro.

Urwumva rw'umutuku rurikugenda ku cyatsi cy'ibisusa bikunda kugaragara mu rutoki ndetse no mu mirima y'abahinzi bamwe baba babihinze. Hari amabuye menshi amabuye agendwaho n'urwumvu iyagezeho agafata ibara ryayo cyangwa agafata ibara rya bino byatsi.

Inyoni y'umusure, ifite amabara menshi, y'umuhondo, umutuku, n'ubururu, umurizo muremure. n' numunwa muremure. Yicaye ku irabo ry'giti. Ikikijwe n'gihuru, ndetse cyakinzwe n'igihu gitewe n'uwafotoye. Byihishemo ukuntu, hagaragaramo ibara ry'umuhondo, ndetse n'kinono.

Inyoni zo mu bwoko bw'imisuri, ziri mu mabara y'ubururu, n'umutuku. Zifashe ku giti kimwe, zirebana imwe iri hejuru y'indi, aho bigaragaza ubwiza bw'ibidukikije dufite mu mashyamba yacu.

Icyanya nyaburanga cyahariwe ubukerarugendo kigaragaramo impala zigera muri eshanu, aho zishobora gukurura abakerarugendo cyane ndetse n'abahasura bakishimira ubwiza bw'izi mpala, uburyo binerekana uko twashoboye kurinda ibidukikije.

Inyoni ifite amabara y'umukara n'umutuku, iri kurya ubuki buri mu giti cyitwa umufumba, iki giti gikunda kugira ubuki buryohera cyane, uretse n'inyoni kuba zakirya n'abana bo mu cyaro uba usanga bagikunda cyane, ntabwo abantu benshi mu mugi bakunda kukimenya, kuko usanga mu cyaro bagikoresha nk'umuti uvura ibicurane cyangwa ku bana baba bakomeretse bakabasigiraho, kikaba ari umuti mwiza cyane abantu bakoresha.

Agasimba bakunda kwita bakame gafite amatwi areba hejuru n'umurizo muremure, gasutamye ku gisima, ku ruhande rw'ibyatsi by'icyatsi kibisi bizengurutse icyo gisima barimo bagafotora amafoto menshi.

ikiyoni kinini cy'umukara n'umweru gifite umurizo munini n'umunwa muremure, gifite ibyuho birambuye nka shitingi kiguruka metero ijana. Kigenda mu kirere ntihagire uba wagifata, gikunda kurya n'isambaza kigaragara ahantu hose babaze, kubera gikunda inyama

Icyanya nyaburanga cyahariwe ubukerarugendo , kirimo intare n'impara zizengurutswe n'amashyamba. Hari ikibaya kirekire kirimo ibyatsi byumye byatewe n'izuba, n'umusozi ugaragaraho ibiti bagiye batema bikaba byateza inkangu, n'insina ziri ahantu mu gishanga.

Eshatu z'umukara buri yose igenda ireba iruhande rwayo harimo akagagi gatoya n'ingagi nkuru zizengurutswe n'ibyatsi biri mu ishyamba ry'icyatsi kibisi harimo inteja, ibintusi, ipinusi ndetse n'ikawa.

Inkima yicaye ku ishami ry'igiti, ifite umurizo muremure ukora hasi n'amaboko y'umweru, ikaba ifite mu munwa w'umweru n'amaso ajya gusa nk'umukara, ikaba ijya gusa nk'agakende, izengurutswe n'ibiti bya kimeza biri mu ishyamba iyo nkima iherereyemo.

Inkende ifite umurizo muremure, n'amaso yumukara, yicaye ku gikuta cy'amatafari, gisimanze n'isima hejuru. Hasi yayo hari inzu y'amabati y'ubururu, no hakurya hari inzu zubatse ku musozi, zigizwemo n'amabati y'umutuku. Ndetse n'umunara uri hakurya cyane, uzengurutswe n'ibiti b'yintusi.

Icyiyoni kiri hagaze mu giti gifite amabara y'umweru, n'umukara, n'umunwa muremure, biri mu giti cy'umuvumu, gisa nk'icyashaje, kigaragaza amashami agera kure. Ndetse n'amababi yahungutse, nk'igiti cyakuze cyenda kugwa.

Ihene z'ishyamba ziri hamwe, ziri kureba hirya no hino zireba ko nta mwanzi wazitera, zikikijwe n'ubwatsi bwumye ndetse no hagati harimo ubwatsi butoshye cyane ariko izi hene z'ishyamba zidashobora kurya.

Agasimba kari mu mabara y'ikijuju n'umweru, gafite ubwoya busokoje cyane hejuru ku mugongo, amatwi magufi atagaragara, amaso y'umukara aturumbutse cyane, kazengurutswe n'uduti dutoya turi iruhande yatwo, kicaye ku giti cy'umugereveriya kinini kibyibushye gifiteho amashami yumye.

Icyana cy'impundu gifite amabara y'umukara n'urunigi rw'umweru n'amaso ashiririye cyane. Gifite umukara mwinshi mu gahanga, kicaye mu twatsi dusa n'utwumye. Tugize n'uturandaranda tw'icyatsi kibisi, tuzenguruka aho cyicaye.

Agasimba gakurura inda kitwa urwumvu, kagenda gakurunda ku byatsi ndetse no ku butaka, gafata isura y'aho kageze kagera ku cyatsi kagahinduka uko, iyo gaciriye ku bantu kaba uburozi cyane. Kabumbikiriwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi by'icyatsi kibisi byijimye ukuntu.

Ingagi ebyiri zishoreranye, ziri kugenda ahaguye amababi y'ibiti byumye. Zikikijwe n'igiti kinini cyane kiri hagati yazo, hepfo yaho hari igiti kimeza ndetse n'ibishyamba byimeza, birimo ibiti byinshi birimo intusi, imisave, ndetse na pinusi, n'ibindi biti byemeza by'inkeri.

Inyoni y'umukara n'umweru n'umunwa muremure, iri hejuru mu giti gitoshye cyane cyo mu bwoko bwa gereveriya, iki giti kikaba gikurura inyoni cyane cyane cyane imisure hamwe n'izo muri ubu bwoko kuko ariho usanga zaraje gutura.

Inkima y'umukara ifite urunigi rw'umweru izengurutswe n'ibyatsi by'umushishiru, biteye mu ruvunge rwinshi bishishe cyane bizengurutse inkima mu ruhande rwayo cyane.

Ingagi y'umukara iri hejuru mu mashami y'igiti irimo yitegereza ibidukikije dufite, iyi ni imwe mubikurura ba mukerarugendo hano mu rwanda kuko yerekana ubwiza nyaburanga bw'igihugu dufite hano iwacu.

Inkende ibyibushye cyane ifashe ku biti by'amashami y'avoka, iri kwicunda hejuru no hasi, ifite ibibabi byiza cyane ndetse n'ibiti bikomeye inkende igenda ifataho, kugira ngo ntibe yagira ikibazo. Ubundi bino bifasha inkende kuba zakisanzura no kumva ko ziri mu cyari cyazo.

Akanyoni gafite amabara y'ubururu ku mababa n'ay'umutuku ku maguru, gafite igipori cy'umukara n'umunwa w'umuhondo gafashe ku giti gifite amashami agera muri ane, rimwe rigaragaraho ikibabi gitoshye cyane n'ikindi kireba iburyo uruhande rw'aho akanyoni gafashe, babikoresha bashakamo icyari ndetse no gushakiramo ibyo kurya.

Inyoni ifite amabara y'umweru, umukara n'ikinombe, ihagaze ku ishami ry'igiti gisa nk'igishaje, ikikijwe n'ibiti bitatu ndetse n'ibindi byinshi byizingitiranye, byose hamwe bifite amabara y'ikinombe bireba nk'ibyuzuye ivumbi nk'ibyo mu Cyi.

Impundu iri mu mabara y'umukara ikanura cyane nk'ishaje ifite igipapuro mu menyo. Ifite mu irugu ry'umweru n'umusatsi usokoje neza umanuka ukagera mu mugongo. Ibundikiriwe n'amabara y'icyatsi kibisi agaragara inyuma inyuma yaho arimo amabara y'umuhondo yihishe atagaragara neza.

Inyoni y'umusundi ifashe ku gati kumagaye, karimo urubobi rwinshi kazengurutswe n'ifoto yijimye, hagaragaramo amabara y'icyatsi n'andi y'umuhondo, umweru uri hejuru ku biti, n'icyatsi cyijimye cyane ku giti gisa nk'icyigonze, n'ibindi bibiri bisobekeranye.

Agasimba gatoya gafite ibara ry'ikinombe, bakunda kwita urwumvu, ka kagira umwihariko wo kuba kihinduranya amabara, gatewe n'aho kageze, kazengurutswe n'ibibabi by'imyembe by'icyatsi kibisi.

Inyoni y'umusuri ihagaze ku kirabo ifite umurizo utari muremure ndetse n'amatwi atari matoya, ikikijwe n'ikirere gisa icyatsi kibisi ndetse n'umutuku, iyi nyoni usanga akenshi irya ibigori cyangwa ibishyimbo by'abantu.

Inyoni ifite amabara atandukanye ihagaze ku gihwagari kiri hagati y'ibindi bihwagari bibiri, ibi bihwagari bifasha inyoni gukura neza kuko bigira uturyohera inyoni zikunda zikazirya nkaho bikoresha ubuki.

Akanyoni k'agafundi gafashe ku giti kafotowe ifoto nziza cyane, igaragaza ikibuga kirimo ibyatsi by'umweru n'agati kumye kadafite amashami menshi cyangwa amababi bigaragaza ko kacitse umutwe.

Ishyamba rya kimeza ririmo ibiti byijimye bitagaragara by'amoko menshi, hakurya yaho hari ibiti bya pome ndetse n'iby'isombe bigufiya biri mu mabara y'icyatsi kibisi, imisozi iri hakurya ubona ko yijimye ifite n'imvura.